Umugore wicaye ku buriri bwo kwa muganga urimo kwitabwaho n'umuganga. Umuganga yambaye ikanzu y'umweru, umurwayi yambaye igisarubeti cy'ubururu ateze n'igitambaro mu mutwe. Imbere yabo hari umugabo ufite idosiye y'umuhondo.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu nini cyane ku meza manini azengurutse bigaragara ko bari mu nama hagati yabo harimo umugore wambaye ikanzu y’umweru n'umukara bisa nkaho arimo kubaganirira ku meza hateretse amazi, ibikapu ndetse n'ibindi.

Umusaza n'umukecuru bicaranye ku meza, barimo baganira baseka, bamwenyura ndetse bafite akantu ko kurya n'ikirahure cy'amazi giteretse imbere yabo, inyuma yabo hari umusore ukiri muto, wambaye agakarita mu ijosi bigaragara ko ari kubitaho, inyuma yabo naho hari abandi basaza n'abakecuru barimo kuganira.

Ibikoresho biri ku meza bitandukanye bikoreshwa muri siporo: imbuto, inkweto, umugozi wo gusimbuka, akuma gakomeza imitsi yo mu ntoki, umugozi cyangwa se akuma gakoreshwa na muganga n'ibindi.

Igiti kinini cy'inganzamarumbo kiri hagati mu kibaya, hirya gato hari ibiti binini bikikijwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye, ikirere gikeye kirimo ubururu n'umweru.

Imiti y’ibimera itandukanye iri mu dusahane natwo dutandukanye iri hejuru y'umusambi wa kinyarwanda aho hari ibiganza by'umuntu ufite isekuru icuzwe mu ibuye arimo gusekura imiti itandukanye.